Umwana w'umukobwa, wambaye ikanzu irimo amabara atandukanye, ari gukaraba intoki kuri robine, ndetse iruhande rwayo, hateretse amajerekani yuzuye amazi kandi afunze neza.

Abaturage benshi cyane bahagaze ku kagari, bamwe bari kwinjira abandi basohoka, ndetse hari itente rinini ryubakiwe abayobozi, kandi akagari kamanitseho icyapa kinini cyanditseho amagambo.

Abantu batatu bakenyeye ibitenge by'amabara atandukanye bari kuri robine bavoma amazi umwe muri bo ari kuvoma akoresheje indobo n'ibase abandi babiri bari inyuma bakurura uruhombo kugira ngo amazi abashe kuza.

Abana benshi basa neza kandi bishimye, bahagaze ahantu hamwe imbere y'inyubako bafatanye urunana, barimo kwizihiza Umunsi Mpuzamahanga Wahariwe Uburenganzira bw'Umwana ndetse bose bahawe imyambaro isa yanditseho amagambo amwe.

Ababyeyi benshi bahuriye mu cyumba kimwe baje gukingiza abana batoya, ndetse umubyeyi umwe ucigatiye umwana ahagaze imbere y'aba babyeyi, afite n'igipande mu ntoki.

Abantu benshi b'urubyiruko bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bari mu cyumba kimwe kirimo ameza ndetse n'ibishushanyo by'amoko atandukanye bishushanyije ku nkuta z'icyumba barimo.

Abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'umuhondo bari kumwe n'abarimu babo kandi bose basabwe n'ibyishimo.

Abanyabuzima ndetse n'abandi bantu benshi b'abayobozi, hari n'umugabo uri gufotora akoresheje igikoresho cyabugenewe.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano bahagaze kuri robine z'amazi, bagiye gukaraba intoki ndetse bisize isabune mu kiganza birabanejeje kandi barishimye cyane.

Abaturage benshi harimo ababyeyi baba mama n'aba papa ndetse n'abana, bahuriye ku ivomero bavoma amazi bamwe bafite amajerekani abandi bafite ububuni buringaniye.

Abayobozi benshi bahagaze imbere y'abanyeshuri ndetse abarimu babo nabo bahagaze hagati mu banyeshuri kandi hari n'umukorerabushake wambaye ijire ndetse abo bana bari ku murongo kandi bahanze amaso abayobozi babo.

Abantu bishimye, bari ahantu hamwe, bashyayaya, babyina, banezerewe kandi bataramira abayobozi babakurikiye babahanze amaso.

Abantu benshi cyane, bagizwe n'Abazungu ndetse n'Abanyafurika bari mu cyumba kiza cyane, kinini bamwe muri bo barahagaze abandi bicaye imbere yabo, bose bahanze amaso imbere.

Abantu benshi baturutse impande n'impande, bicaye ahantu hamwe bateze amatwi kandi bahanze amaso imbere, bose bambaye imipira y'umweru isa barengeje ku myambaro yabo basanzwe bambaye.

Abantu benshi bagizwe n'abayobozi bakomeye, abaturage basanzwe ndetse n'abapolisi bicaye ahantu hamwe hubatse neza kandi hasa neza, bari guhabwa ikiganiro n'umuyobozi uhagaze imbere yabo akoresheje indangururamajwi.

Abana babiri bari mu kigero kimwe bari gukina n'amazi kuri robine bakaraba intoki, bishimye baseka kandi inyuma yabo hari ibyatsi byumye cyane kubera izuba ryinshi.

Umuzungu ufite indangururamajwi mu ntoki, yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso n'agakomo mu kuboko kw'iburyo, ari gutanga ikiganiro ahantu hamanitse ibishushanyo binyuranye kandi bifite amabara atandukanye.

Abantu babiri, umwe w'umugore witadiye igitambaro mu mutwe, undi w'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, bari kw'ivomero bavoma amazi bakoresheje ama jerekani.

Umwana wambaye ishati n'ikabutura, yunamye kuri robine, ari gukaraba mu ntoki ndetse imbere ye n'inyuma ye hateretse indobo zifite amabara y'ubururu, imwe irapfundikiye.

Abajyanama b'ubuzima baturutse impande zitandukanye, bahuriye hamwe, bahabwa amahugurwa ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage n'ubuzima, barangije barifotoza, buri wese afata positeri ashaka.

Umwana mutoya w'umukobwa, wambaye akajipo n'agashati by'igitenge, ari gukaraba kuri robine, akoresheje ibase y'umukara kandi anishimye cyane.

Umubyeyi wishimye cyane, ari kumwe n'abana be kuri robine bari kuvoma amazi bakoresheje amajerekani kandi inyuma yabo hari igihuru kigizwe n'ibyatsi bitandukanye.

Umuntu wambaye umupira w'amabara atandukanye, ari guterwa urukingo n'umuganga wambaye imyambaro y'ubwirinzi kandi ari gukoresha ibikoresho byabugenewe.

Abaturage benshi cyane bahuriye ahantu hamwe bitabiriye inama y'abayobozi, abayobozi babubakiye itente ribarinda izuba, abaturage nabo bicaye mu mpande zitandukanye bakurikiye ibiganiro birimo kuvugwa.

Ivomero ririho abavomyi benshi ushinzwe kuvomesha, ari kugenda abavomera buri umwe kuri umwe, akurikije uko bahageze n'igihe bahagereye.

Ababyeyi bambaye imyambaro isa neza cyane kandi itandukanye bicaye mu cyumba bakingirizamo abana baje gukingiza ndetse hari umunzani n'ikabutura bambika abana barimo gukingiza ndetse n'umuyobozi ubashinzwe ari kubaha inama mbere yo gukingiza abana.

Abantu benshi cyane bagizwe n'abagabo, abasore ndetse n'abana, bahagaze ku ivomero, umwe muri bo ari gukurura uruhombo amazi akajya mu ijerekani kandi inyuma yabo hari ibyatsi byinshi ndetse n'inzu yubatse mu ishyamba.

Abaturage benshi baturutse impande n'impande, bicaye mu cyumba kinini cyane kandi gitatse neza, bari guhabwa ibiganiro n'abayobozi bambaye neza kandi basa neza, ndetse inyuma yabo hari ibishushanyo binini bishushanyijeho abantu ndetse n'amagambo atandukanye.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano ya kinyeshuri, ari gukaraba kuri robine akoresheje amazi meza, kandi aranezerewe ndetse ahantu ahagaze hari ikibuga kinini cyane ndetse n'inyubako ziri hirya no hino.

Abana b'abanyeshuri barimo abakobwa n'abahungu, bambaye impuzankano bari kuvoma amazi ku iriba, bakoresheje indobo ndetse n'ububido.

Umugezi wubatswe mu buryo butangaje ufite robine mu mpande zose abantu benshi bari kuvoma mu mpande zose bakoresheje amajerekani ndetse abandi muri bo bafite indobo.

Umuhanda w'igitaka urimo abanyeshuri benshi bavuye kwiga ndetse n'abandi bantu bari kuwuyuramo basanzwe, munsi yawo hari umugezi ndetse n'umwana uri kuvoma. Umwana umwe w'umunyeshuri ari kumutobera amazi.

Abantu babiri barimo kuvoma amazi kuri robine bakoresheje amajerekani, ndetse inyuma y'umugezi hahagaze umuntu wambaye ijire ya oranje, bose bari kuganira bishimye, kandi inyuma yabo hateye ibiti birebire biteye mu mpande zose.

Abantu babiri bambaye imyambaro isa, ingofero mu mutwe ndetse n'ubugupfukamunwa, bari kwita ku kumurwayi wambaye umwambaro w'umukara ndetse n'ingofero mu mutwe, hirya yabo hari abantu bahagaze bashungera.

Abaturage baturutse impande n'impande, bahuriye hamwe kwa muganga, baza kwisuzumisha umuvuduko w'amaraso, kugira ngo bamenye uko bahagaze.

Abantu bahagaze ku ivomero baje kuvoma amazi, ndetse hari amajerekani menshi ategereje kuvomwa, hari n'umuntu ushinzwe kubahereza amazi ari imbere yabo, ari kujya avoma buri jerekani.

Israel Mbonyi umuhanzi w'indirimbo zaririmbiwe Imana, yambaye agapira k'ibara rya oranje kandi ari kumwe n'akandi kana na ko kambaye umupira w'ibara rya oranje gahagaze ku munzani.

Umugore ukenyeye igitenge wambaye n'ingofero mu mutwe, ari kuvoma amazi kuri robine akoresheje ijerekani, kandi inyuma ye hari amashyamba menshi, afite ibiti birebire.

Abantu benshi cyane barimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye mu cyumba kinini cyane, kirekire, kandi gisa neza, bari guhabwa amahugurwa bateze amatwi, ndetse abashoboye bandika mu makayi, kugira ngo babashe kwibuka ibyavuzwe.

Umuyobozi wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru n'amarinete, ari kumwe n'abanyabuzima baturutse impande n'impande, abaha ikiganiro ndetse nabo bishimye banezerewe, bambaye amataburiya ndetse n'ibindi byangombwa bibaranga.

Abantu benshi basa neza cyane kandi bambaye imyambaro myiza ikeye, bicaye mu ntebe nziza cyane bahanze amaso imbere, kandi buri wese afite ikayi ari kugenda yandikamo ibyo yumvise ndetse n'icupa ry'amazi ripfundikiye neza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano harimo abahungu babiri n'abakobwa bane, bari kunywa amazi ku kigega bakoresheje udukombe tw'amabara atandukanye.

Umugabo wambaye ishati n'ipantaro watebeje neza afite ijerekani, ahagaze kuri robine ndetse arishimye ari guseka, inyuma ye hari ibyatsi biteye imbere y'amazu meza.

Abana babiri bari mu kigero kimwe bari gukaraba amazi aturutse mu ruhombo runini, kandi bose barishimye ubona bakina nayo kandi bibanejeje cyane.

Icyumba cyubakanywe mu ubuhanga kirimo intebe zishimishije, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, kandi kirimo purafo hejuru.

Abantu benshi barimo abazungu ndetse n'abirabura, bicaye mu cyumba gisa neza cyane, bateganye, barebana, ndetse buri wese afite icupa imbere ye, kandi afite ikayi yo kwandikamo, abadafite amakayi, bari gukoresha amatelefone.

Umurwayi urembye uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, yiyorosha igitenge kirimo amabara menshi ndetse ari kwitabwaho kugira ngo harebwe uko ubuzima bwe buhagaze kandi abo bari kumwe na bo bambaye udupfukamunwa.

Abantu benshi bicaye mu cyumba gisa neza cyane, bari mu nama bahabwa ibiganiro n'abayobozi benshi bicaye imbere yabo ndetse hari na camera, iri gufata amashusho ndetse n'amafoto.

Umugabo wambaye umupira uhabwa abajyanama b'ubuzima ndetse n'agapfukamunwa, ari guhabwa urukingo n'umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'impuzankano z'akazi.

Umubyeyi wipfutse igitambaro mu mutwe, acigatiye umwana uri kwitabwaho n'umuganga wambaye isaha ku kuboko kandi iruhande rwabo hari imeza iriho ibikoresho byabugenewe, byifashishwa mu buvuzi.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano ari kunywa amazi ku kigega akoresheje igikombe kandi icyo kigega cyubakiye ahantu heza ku buryo kidashobora guhungabana.

Abayobozi bashinzwe imibereho myiza y'abaturage bari kumwe n'umupolisi ndetse n'ababyeyi benshi mu kugaburira abana hirindwa igwingira mu guteza imbere imikorere myiza ndetse n'imibereho myiza muri rusange.

Abantu benshi cyane bahuriye ku ivomo risize irange ry'ubururu, bamwe bafite indobo abandi bafite amajerekani, buri wese ari kugenda avoma kandi hari kanyamigezi uri kureba uko ayo mazi ameze ayakora neza.

Abajyanama b'ubuzima bambaye imyambaro yabugenewe, bahuriye ahantu hamwe ndetse bari kumwe n'abayobozi babo; bishimye banezerewe barimo gucurira kandi bishimiye abayobozi babo.

Itsinda ry'abantu batandukanye bagizwe n'abagore ndetse n'abagabo, bahagaze ahantu hamwe bamwe muri bo bambaye imipira, abandi bambaye amajire ndetse n'imipira kandi bafite akanyamuneza ku maso ndetse n'ibyishimo.

Abayobozi bambaye imyambaro myiza kandi basa neza cyane, bari mu isoko ririmo abantu benshi, imodoka ndetse n'inyubako zitandukanye, bagenda banyurayura mu baturage, babahereza impapuro ziriho ibishushanyo bitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga babiri bambaye ibikoresho byose by'ubwirinzi, bari kumwe n'umukobwa ufite ibisuko, wambaye agapfukamunwa, bari kumufata ibipimo ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Abayobozi benshi bambaye imyambaro isa neza myiza cyane kandi ibengerana bicaye mu ntebe z'icyubahiro inyuma yabo hari icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo.

Abajyanama b'ubuzima bagizwe n'abagabo ndetse n'abagore baturutse impande zitandukanye bahuriye hamwe bari kumwe n'abayobozi bakuru bishimye kandi banezerewe.

Abayobozi bambaye imyenda myiza cyane kandi basa neza bicaye mu myanya y'icyubahiro ndetse buri wese afite icupa riteretse imbere ye, umwe muri bo afite indangururamajwi niyo arimo gukoresha abandi bafite amakaramu n'amakayi ndetse n'imashini bari kwandikamo.

Abantu bane bagizwe n'abakobwa babiri, umusore umwe n'umubyeyi umwe ukenyeye igitenge, bahuriye hamwe bari kuganira ku bijyanye no kubungabunga uburenganzira bw'umwana.

Abayobozi benshi b'abanyacyubahiro, bambaye imyambaro myiza ikeye kandi isa neza cyane, bahagaze ahantu hamwe, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho, amagambo menshi atandukanye.

Abana benshi bari mu rugero rumwe, bari mu ruzi rurerure cyane, barimo koga ndetse bamwe muri bo bari koga bateze amaboko, abandi barahagaze.

Abantu benshi cyane bahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye, bahagaze bareba imbere ndetse bamwe muri bo bambaye amajire asa, abandi bambaye imyenda isanzwe.

Umubyeyi ukenyeye igitenge kirimo amabara atandukanye kandi wipfutse igitambaro mu mutwe, ari kumwe n'abana benshi ku ivomero ndetse harunze indobo nyinshi n'amajerekani barimo kwifashisha bavoma amazi.

Ikigo cy'amashuri gifite inyubako zishaje, cyubatse ahantu hitaruye, ndetse inyuma yacyo hari amashyamba y'ibiti birebire atanga umwuka mwiza, kandi umwana umwe ari kunywa amazi kuri robine, undi mwana ahagaze imbere y'indabo hafi y'ishuri.

Abajyanama b'ubuzima barimo abagabo ndetse n'abagore bicaye ahantu hamwe, bahabwa amahugurwa kandi buri wese afite ikayi ari kwandikamo ibyo yumvise. Imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro gifite ibara ry'icyatsi.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe ari gutera urushinge umurwayi usa neza cyane akoresheje ibikoresho byabugenewe kandi inyuma ye hahagaze undi muntu wambaye ishati irimo amabara atandukanye, wambaye amadarubindi n'agapfukamunwa.

Umwana wambaye umwenda w'ibara rya oranje, ari kuvoma amazi kuri robine akoresheje igikombe kinini kandi biramushimishije, ari guseka kandi aranezerewe.

Abana babiri bahagaze ku ivomero, bamaze kuvoma amazi mu ndobo ndetse bari guterura kugira ngo bashyire ku mutwe, inyuma yabo hari inzu isakaje ibyatsi ndetse n'ishyamba rinini cyane rigizwe n'ibiti birebire.

Ibikoresho byiza cyane byashyizwe ku bigo by'amashuri kugirango biyungurure amazi abana babone amazi meza yo kunywa ataratera ikibazo biteretse ku meza ndetse abana benshi batonze umurongo kugirango bavomeho amazi yo kunywa.

Umuntu w'igitsina gore yunamye ku ivomero, arimo kuvoma amazi akoresheje ijerekani bikozwe mu buryo bw'ikizeru kandi inyuma ye hari igihuru kigizwe n'ibyatsi byinshi, kandi ruguru umugezi nanone hari ijerekani ifite ibara ry'icyatsi yuzuye amazi.

Abantu benshi bagizwe n'abagabo ndetse n'abagore, bicaye ahantu hamwe ku ntebe, kandi bose bafite amakayi, bakurikira ibiri kuvugwa, kandi bakandika.

Ababyeyi benshi baturutse hirya no hino, baje gukingiza abana babo kugira bamenye ibiro byabo ndetse bari kubifashwamo n'umujyanama w'ubuzima wambaye imyenda yabugenewe kugira ngo amenye urwego abana bagezeho mu gikuriro.

Abantu benshi bambaye neza kandi basa neza cyane, bahuriye ahantu hamwe mu gutanga ikiganiro ku bijyanye no gukumira gutwita kw'abangavu ndetse imbere yabo hari ibikoresho bitandukanye, bari kwifashisha muri icyo gikorwa ndetse n'ibishushanyo bigaragaza igikorwa kirimo gukorwa.

Umubyeyi, usa neza cyane kandi wishimye, asigatiye umwana we, kandi arimo kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro yabugenewe, kandi ari gukoresha agafuniko gatoya, kagenewe umwana w'uruhinja.

Abana bane bahagaze ku ivomero, umwe ari inyuma ari gukurura igihombo kugira ngo amazi aze babone uko bavoma.

Abayobozi benshi bambaye imyambaro myiza cyane kandi isukuye, bicaye ahantu heza cyane mucmba gisukuye kandi bari kumeza ateguye neza cyane, buri wese afite icyo kurya n'icyo kunywa imbere ye.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka icumi ahagaze ku ivomero, ari kuvoma akoresheje amajerekani kandi arishimye afite akanyamuneza ku maso, iruhande rwe hateye ibimera bitoshye.

Inyubako nyinshi zitangaje kandi zishimishije zubatse mu kibuga gisa neza cyane ndetse kirimo ibyatsi byiza kandi bitoshye inyuma yacyo hari imisozi ndetse n'izindi nyubako ziri hakurya.

Abaturage benshi bahuriye hamwe bateze amatwi ikiganiro kiri gutangwa n'abayobozi, umwe muri bo yahagurutse ari kubaha ikiganiro abandi nabo bateze amatwi bafite amakayi n'amakamu bandika abandi nabo bandika muri terefone.

Umwana muto wambaye umwenda w'ibara ritukura, ari kuri robine arimo gukaraba intoki, akina n'amazi kandi yishimye, anezerewe.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi kandi ufite ibikoresho by'akazi wambaye na ga mu ntoki, ari gutera urukingo umwana mutoya wambaye ishati y'ubururu.

Abantu benshi bagizwe n'abazungu ndetse n'abirabura, bicaye mu cyumba kinini cyane kandi gisa neza, buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye kandi bafite n'udukayi dutoya bari kugenda bandikamo ibitekerezo bungutse.

Abajyanama b'ubuzima benshi cyane bambaye imyambaro yabugenewe, bahuye n'abayobozi bakuru na bo bambaye imyambaro myiza cyane kugira ngo bahabwe amahugurwa ku ndwara zitandukanye ndetse inyuma yabo hari ibiti birebire.

Umwana w'umuhungu wambaye inkweto za bodaboda, ikabutura y'umutuku n'ishati irimo amabara atandukanye ari kunywa amazi kuri robine ndetse amenetse akagwa mu ndobo iteretse hasi, inyuma y'umugezi hari ishyamba rinini ririmo ibiti birebire ndetse n'inyubako isize amarangi meza.

Abakozi bakora mu ruganda, bambaye imyambaro yabugenewe, ibafasha kwirinda ndetse bafite ibikoresho byabugenewe, bifashisha bari gukora akazi kabo.

Abantu batatu bagizwe n'abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, bari guterura imifuka ifunze neza iremereye cyane, kandi yanditseho amagambo atandukanye.

Umugore utwite ari kumwe n'umugabo we bagiye kureba umujyanama w ubuzima kugira ngo abahe inama z'uko babungabunga ubuzima bw'umwana uri mu nda.

Abanyeshuri benshi bagizwe n'abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano ibaranga ndetse n'ubupfukamunwa bicaye ku ntebe bafata ifunguro rya saa sita.

Abana batoya bari mu ikigero k'imyaka umunani, bahagaze kuri robine, umwe ari kunywa amazi abandi nabo bategereje ko asoza kugira ngo nabo bakurikireho kandi bafite ibyishimo.

Abanyabuzima benshi bambaye impuzankano y'akazi bahagaze ku kigo nderabuzima cya Mayange kandi basuwe n'umuyobozi ukomeye cyane ari kubabaganiriza barishimye baranezerewe bari kumwakira.

Abantu benshi, barimo abakecuru, abasaza, urubyiruko ndetse n'abana, bicaye ahantu hamwe, ndetse inyuma yabo hari ubukarabiro, kandi hari n'inyubako idasanzwe, ifite amabati atukura.

Abantu benshi cyane, barimo abagabo abagore ndetse n'urubyiruko, bahagaze ahantu hamwe, bafite ibyapa byanditseho amagambo menshi, kandi atandukanye, ndetse inyuma yabo hari ishyamba, rigizwe n'ibiti bigufi.

Umwana mutoya uri mu kigero cy'imyaka icyenda, ari kuvoma mu ruzi akoresheje ijerekani kandi ari wenyine nta muntu uri kumwe nawe.

Ababyeyi benshi bari kumwe n'abanyabuzima baje gukingiza abana kugira ngo barebe ibiro byabo, bamenya uko abana babo bahagaze mu bijyanye n'igikuriro, mu rwego rwo kurwanya igwingira.

Abana babiri bambaye imyambaro isa nabi bari kuvoma amazi mu ruzi rurimo amazi menshi ndetse inyuma yabo hari ishyamba ry'ibyatsi byinshi kandi bigufi.

Umusirikare, umubyeyi wambaye agapira k'umweru ingofero n'ijire y'igitaka, bari kumwe n'abandi bantu batandukanye, bagaburira abana, babaha amata kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze mu rwego rwo kurwanya igwingira ry'abana.

Abantu benshi cyane bahuriye ahantu hamwe, bamwe muri bo bambaye amataburiya y'umweru, abandi bambaye imyenda isanzwe ariko by'umwihariko icyo bahuriyeho bose bambaye baji kandi bamwe bicaye imbere y'abandi, abandi bahagaze inyuma babakikije, bose barishimye bakeye ku maso.

Umwana w'umukobwa wambaye ikanzu nziza cyane kandi wishimye ari kuri robine arimo koza indobo kugirango abone ubuzivomeramo amazi kandi inyuma ye hari ishyamba rigizwe n'ibiti birebire byiza cyane ndetse n'imbuga nziza cyane abana bakiniramo iyo baje kuvoma.

Abantu benshi, barimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye mu cyumba gisukuye, gisa neza, bahanze amaso imbere, bahabwa amahugurwa ku bigendanye n'ubuzima kandi inyuma yabo, hari igishushanyo kiriho umuganga wambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'amagambo menshi yanditse munsi yacyo.

Abaganga benshi bambaye imyenda yakazi bahagaze ahantu hamwe barimo kwifotoza kandi bose bameze neza kandi barakeye.

Umwana wo mu kigero cy'imyaka cumi n'umwe ari gukaraba amazi kuri robine ndetse iruhande rwe hateretse amajerekani kandi na we arishimye akeye ku maso.

Umuganga wambaye umwenda w'akazi ndetse n'umupira w'ingofero ufite amaboko maremare, apfutse n'igitambaro mu mutwe, ari kuvura abarwayi bicaye ku ntebe abashyiraho ibipimo bipima umuvuduko w'amaraso.

Ababyeyi batatu, bari kuri robine, baje kuvoma amazi, babiri muri bo bari inyuma bakora uruhombo kugira ngo amazi abashe kuza, undi umwe arimo kuvoma, akoresheje ibikoresho bitwaje.

Umugore usa neza cyane, wambaye imyambaro myiza yababugenewe n'amadarubindi kandi ubifitiye uburenganzira, ari mu isoko rwagati, arimo gutanga impapuro zitandukanye ku bacuruzi baririmo kugira ngo babashe kubahiriza ibisabwa.

Abagabo babiri bambaye amakoti meza cyane, bari kuramukanya, bishimye bafitanye urugwiro, ndetse inyuma yabo handitseho amagambo, akoreshejwe ibara ry'umuhondo.

Akagari gahagazeho abantu benshi baturutse mu mpande zitandukanye, ndetse hubatse n'amatente yicawemo n'abayobozi, hari ambulance yaje gufata umuntu wagiriye ikibazo muri ibyo birori, kugira ngo imugeze ku bitaro yitabweho hakiri kare.

Abantu benshi cyane bambaye imyambaro itandukanye kandi bakikije ameza, bicaye mu cyumba gisa neza cyane kirimo ibikoresho bitandukanye bishimishije, barimo kuganira baseka buri muntu wese avuga ikimuri ku mutima.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ga mu ntoki na baje y'ubururu, ari kwita ku mukecuru urwaye wipfutse agatambaro mu mutwe karimo amabara y'ubururu, iruhande rwabo hari umubyeyi wipfutse agatambaro k'umweru, wambaye ikote ry'umukara ndetse n'inyuma yabo, hari undi musore wambaye ijire y'umuhondo wifashe mu mufuka.

Abantu baturutse impande zitandukanye, bahuriye hamwe baje kuvoma amazi, ndetse hari amajerekani menshi ariko ku murongo, ari kugenda avomwa bitewe n'uko yaje, ndetse inyuma yayo hari ishyamba ry'ibiti birebire, ririmo n'ibyatsi birandaranda hasi.

Abantu babiri umugore ndetse n'umugabo bambaye imyambaro myiza cyane kandi isukuye, bicaye mu myanya y'icyubahiro, umugore afite indangururamajwi ari kubwira imbaga ibijyanye n'ubuzima kandi inyuma yabo hamanitse ibyapa byanditseho amagambo menshi by'umwihariko amakuru agendanye n'ubuzima.

Umuntu urwaye ari kwitabwaho n'abandi bantu babiri bamufashe mu maboko ndetse no mu bitugu bamusindagiza kandi afite akabando mu ntoki.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati irimo amabara, ari kuramukanya n'umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe wambaye imyenda yacitse ndetse ufite n'umusatsi udasokoje.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, wambaye agapira k'umutuku n'inkweto z'umukara, yicaye mu muhanda wenyine ndetse iruhande rwe harunze amashashi menshi.

Umugore wambaye imyenda y'amabara atandukanye, yikoreye igitebo cyuzuyemo ibyatsi afite n'isuka mu ntoki ndetse inyuma ye hari inzu isakaje amategura ndetse n'ikidodori gifite amababi yicyatsi kibisi.

Abantu benshi, bari ahantu hamwe, bagizwe n'abana, ababyeyi b'abamama ndetse n'abagabo, bari ahantu hamwe mu nkambi, umubyeyi umwe afite inkwi mu ntoki, ari kumwe n'umwana uri kurira.

Abantu benshi bagizwe n'urubyiruko ndetse n'ababyeyi bahagaze ahantu hamwe kandi urwo rubyiruko rwambaye udupira tw'ubururu barishimye.

Umuntu ufite umusatsi mwiza cyane, usa neza, wambaye imyenda myiza kandi watebeje neza, yicaye ahantu yishimye anezerewe, arimo guseka ntakibazo na kimwe afite.

Igishushanyo kigaragaza ubwonko bw'umuntu ndetse n'uburyo bugomba kwitabwaho kugira ngo habungabungwe ubuzima bwa muntu.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, afite imisatsi myinshi ijwiri yamwereyeho hamwe n'ubwanwa burebure kandi busa nabi, ahagaze ahantu hawenyine kandi yambaye imyenda yo gucocera yacikaguritse.

Umubyeyi wipfutse igitenge kirimo amabara atandukanye, wambaye amaherena n'iribaya ry'umuhondo, afite uburakari bwinshi kandi ari kureba nabi afite umujinya mwinshi.

Abagore batatu bipfutse udutambaro mu mutwe, kandi bakenyeye ibitenge, bahagaze ahantu hamwe, umwe muri bo afite umwana, ndetse n'umufuka mu ntoki, inyuma yabo hari agasozi karerekare kariho inyubako.

Abana benshi bahuriye hamwe bari guhabwa ikiganiro, babarirwa n'inkuru zishimishije, buri mwana wese aseka anezerewe ndetse bishimye bahuje urugwiro.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe wambaye isengeri n'agakabutura gatoya kadafuze yicaye mu muhanda yambaye ipine ry'imodoka, iruhande rwe hanyuraho abandi bantu bitambukira.

Abayobozi benshi bambaye imyenda ndetse n'ibindi bikoresho bibaranga bahagaze ahantu hamwe, imbere yabo hari ameza atatse neza kandi amanitseho ibipapuro byanditseho amagambo ndetse kuri ayo meza n'aho harateguye hari imitako myinshi itandukanye.

Umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare, ufite ibisuko ku mutwe biziritse, yunamye areba hasi kandi afite agahinda gakabije n'umubabaro.

Abantu benshi cyane baturutse impande n'impande, bicaye mu cyumba kinini kandi cyiza bateze amatwi ibiri kuvugwa kandi buri wese abishyizeho umwete n'umutima.

Umugore wambaye ishati y'igitenge irimo amabara atandukanye n'ishapure mu ijosi kandi ufite imisatsi izinze ku mutwe, yicaye wenyine kandi afite akanyamuneza, inyuma ye hari umuntu uri gucuruza ibintu byinshi bitandukanye.

Abantu benshi bicaye hamwe ahantu hamwe bari gufashwa n'abaganga baje gusuzuma indwara zitandukanye ndetse hari imodoka igaragaza ibikorwa byabo ariyo bajemo mu rwego rwo gutanga serivise.

Umubyeyi uri kumwe n'abana be babiri, umwe arahagaze undi ari mu mugongo, atetse igikoma kugira ngo abungabunge imikurire y'abana be.

Umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe, ari mu muhanda w'igitaka yambaye ibirenge ndetse afite n'ibintu bitandukanye yambaye mu ijosi ndetse no mu maboko.

Abantu benshi barimo abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko bambaye imyambaro myiza cyane kandi isa neza, bahagaze ku marembo y'ikigo nderabuzima cya Kacyiru kandi bose bameze neza barakeyeye barishimye.

Umubyeyi uri kumwe n'abana be babiri, bicaye ku musambi hanze imbere y'umuryango ndetse imbere yabo hateretse intara iriho imyaka.

Umukecuru wambaye ikanzu irimo amabara menshi, ukenyeye n'igitenge kirimo amabara, aratetse, imbere ye hateretse agakombe k'icyatsi ndetse ku ruhande rwe, hari inkoko iri gutambuka kandi inzu ye yubakishije amatafari ahiye.

Umukobwa ufite umusatsi uringaniye, kandi wambaye umupira w'umutuku, ufite amaboko maremare, ndetse n'akandi gapira imbere, ari guseka yishimye, yicaye ahantu ha wenyine.

Umwana w'umuhungu uri mu ikigero cy'imyaka cumi n'umwe, ahagararanye n'abandi bana batoya barimo ikigero cy'imyaka itandatu, bamwe muri bo bafite ubudomoro kandi bose bafite umunezero, bari guseka.

Umukecuru ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yambaye imyenda ishaje cyane kandi isa nabi ndetse n'inkweto zisa nabi, iruhande rwe hari amacupa aharunze kandi inyuma ye hari abantu bari kugenda abandi bagaruka ndetse n'abandi bicaye.

Umutwe nka kimwe mu bice bigize umubiri w'umuntu gishushanyije ahantu kigaragaza umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, uba ku itariki icumi z'ukwa cumi.

Abantu benshi cyane bagizwe n'ababyeyi, abana ndetse n'urubyiruko, bahuriye hamwe, bishimye banezerewe mu rwego rwo kwamamaza kandi bose bafite utubendera bamanitse hejuru.

Abantu bambaye imipira isa bari gutera ibiti mu mirima ndetse bafite n'icyapa kigaragaza uburyo abantu bagomba gushishikarira kubungabunga ibidukikije.

Abantu benshi, bagizwe n'ababyeyi, abagabo ndetse n'urubyiruko, bahuriye ahantu hamwe bari mu nama, bicaye ku buryo bw'uruziga ndetse bose bafite amakayi ndetse n'uducupa tw'amazi.

Abantu babiri umugore ndetse n'umugabo bicaye hamwe bahuze cyane, imbere yabo hateretse icupa rirerire kandi ameza bari gukoresha arambuyeho igitambaro cy'umuhondo.

Abayobozi benshi bambaye imyambaro myiza cyane kandi isa neza, bahagaze ahantu hamwe hateguye neza kandi hatatse, haparitse n'imodoka isa neza cyane, barimo kwifotoza bafite seritifika mu ntoki bahawe.

Abantu benshi bicaye hamwe, mu cyumba cy'inama bateze amatwi ibyo bari kubwirwa n'abayobozi bakuru kandi ku nkuta z'aho bicaye hamanitse ibishushanyo bishushanyijeho abantu ndetse n'ibindi bishushanyo bitandukanye.

Jeannette Kagame yambaye ikanzu y'ubururu, amarinete ndetse n'amaherena, ari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu babiri umwe yambaye ipantaro y'umukara n'umupira wumweru, undi yambaye inkweto z'umukara na karuvati y'umukara, n'umupira w'umuhondo bari hamwe batekereza kandi bishimira umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mumutwe.

umudamu w'umusirimu wambaye imyenda myiza cyane isa neza isukuye, kandi ibengerana ahagaze imbere y'inyubako nziza cyane, iteye ubwuzu yubakanye ubuhanga kandi afite imisatsi myiza ikoze neza.

Umugabo wambaye ishati ifunze neza y'amaboko maremare ari guseka afite akanyamuneza n'ibitwenge mu maso, inyuma ye hari abandi bantu benshi bari kuza bagana aho ari.

Umugabo ufite umusatsi mwinshi ku mutwe kandi mwiza, ufite n'ubwanwa wambaye amadarubindi, ishati ya maboko maremare ndetse na agakoma mu kuboko ari kumanika ku rukuta igishushanyo gishushanyijeho amenyo.

Abana benshi bari mu kigero cy'imyaka irindwi, bahuriye ahantu hamwe bafite uburoso bw'amenyo ndetse n'udukombe bari kwiborosa, kugira ngo babungabunge ubuzima bw'amenyo yabo.

Umurwayi wambaye agapira k'umukara, uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, ari kumwe n'umuganga wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru, yambaye ga z'ubururu, afite n'ibikoresho byabugenewe ari kumukura iryinyo.

Abaganga babiri bambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'ibindi bintu byose bibafasha kwirinda, barimo kwita ku murwayi urembye cyane, bakoresheje ibikoresho bitandukanye byabugenewe.

Umuganga w'umwirabura wambaye imyambaro yabugenewe n'ibindi bintu byose bimufasha kwirinda indwara n'ibyorezo, arimo gukoresha ibikoresho byo kwa muganga, by'umwihariko ibipimo byifashishwa mu gupima indwara zitandukanye.

Umusore wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, usa neza cyane ari kwireba mu ndorerwamo, afite agapamba ari kugenda akoza hagati y'amenyo kugira ngo akuremo imyanda arusheho kubungabunga ubuzima bw'amenyo.

Umusaza wambaye amadarubindi, ufite umusatsi w'imvi mu mutwe kandi wambaye agapira k'amaboko magufiya, ahagaze mu cyumba gisa neza cyane kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'indorerwamo, arahuze cyane ari mu tuntu dutandukanye.

Umugabo ufite imisatsi izinze ku mutwe ari guseka, arishimye kandi ari kwireba mu ndorerwamo akarushaho kunezererwa.

Abantu bicaye ku ntebe, kandi bambaye imipira isa, bari gusuzumwa indwara zitandukanye, n'abaganga babifitiye uburenganzira, kandi barimo gukoresha, ibikoresho byabugenewe.

Umuntu w'Umunyafurika wambaye ingofero mu mutwe, afite akuma kabugenewe ari kugenda agakoza hagati y'iryinyo n'irindi, kugira ngo akuremo imyanda irimo maze arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'umwirabura ufite imisatsi myiza cyane ikora mu bitugu afite amenyo meza kandi ateranye ndetse asa neza afite isura nziza inogeye amaso.

Umwana w'inzobe, ufite imisatsi myinshi ari kwitabwaho na muganga wambaye ga z'icyatsi, amukoza akuma mukanwa kugira ngo abashe kumenya ikibazo afite ndetse amuhe ubuvuzi bukwiriye.

Ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga birimo za mudasobwa ndetse n'izindi nsinga zesitaye impande n'impande, biri mu cyumba gisa neza cyane kandi harimo n'intebe nziza ifite amapine iteye ubwuzu.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'isaha ku kuboko, yicaye mu cyumba gisa neza cyane gisukuye, kirimo ibikoresho bitandukanye bikoranywe ubuhanga kandi kirimo amarido maremare.

Umubyeyi ndetse n'umwana we, barishimye, kandi baranezerewe, bari gukora imyitozo, yo kunyuza urudodo mu menyo, kandi bose, basa neza cyane, n'ahantu bari hari inyubako ishimishije.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'ibindi bimufasha kwirinda ari kuvura umwana mu kanwa akoresheje ibikoresho byabugenewe ndetse inyuma ye hari imeza iteretseho ibindi bikoresho bitandukanye n'imiti byifashishwa mu buvuzi.

Abaganga bambaye imyambaro yabugenewe basuye ikigo cy'amashuri kirimo abarimu barimo kwigisha mu rwego rwo kwigisha abana uburyo bakoresha boza amenyo yabo kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi barimo kwifashisha ibikoresho byabugenewe.

Umugabo wambaye umwenda w'umukara uriho akaba k'umweru n'impeta mu rutoki, ari kwikoza agati mu kanwa yireba mu ndorerwamo kandi ahagaze mu cyumba gisa neza cyane gifite amarido atukura.

Icyumba gisa neza cyane giteye ubwuzu kandi gikoze neza, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga kandi bisa neza cyane ndetse bifite umutekano usesuye.

Umuganga w'umwirabura wambaye agapfukamunwa neza cyane ndetse n'imyambaro yabugenewe, mu kuvura abarwayi arimo kwita ku murwayi amuvura indwara zo mu kanwa akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Umwana mwiza cyane usa neza kandi ufite imisatsi ikeye, wambaye amaherena ndetse n'imyenda myiza isa neza, ari kwitabwaho n'umuganga, akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi, agapfukamunwa ndetse n'amadarubindi, ari kuvura umwana uburwayi bwo mu kanwa, akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Umuntu wambaye umupira w'umweru, uteye amabengeza, yifotoreje imbere y'ibara ry'umuhondo, arishimye, kandi aranezerewe bidasanzwe.

Umugabo w'umwirabura w'ibigango mwiza cyane usa neza kandi uri guseka wishimye cyane, afite umusatsi mukeya ku mutwe n'ubwanwa buringaniye kandi afite akadodo gatoya yaziritse ku ntoki zombi ari kugenda akoza mu kanwa.

Umuntu usa neza cyane, ufite n'imisatsi izinze ku mutwe, yambaye agapira k'amabara atandukanye, ari kwitabwaho n'umuganga ufite ibikoresho bitandukanye by'ubwirinzi.

Icyumba gisa neza cyane, cyubakanye ubuhanga, kandi giteye ubwuzu, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, kandi nabyo bikoranye ubuhanga, bifite isuku kandi bishimishije.

Umugabo wishimye kandi usa neza cyane ari kwitabwaho n'umuganga ucyeye ku maso kandi akoresheje ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu buvuzi.

Umugabo usa neza cyane kandi wishimye ari kwitabwaho n'umuganga, wambaye imyambaro yabugenewe y'ubwirinzi, ndetse afite n'ibikoresho byabugenewe bikoreshwa mu buvuzi no kubungabunga ubuzima bw'abantu.

Umukobwa w'umwirabura ufite umusatsi muke uringaniye ku mutwe, asa neza cyane kandi ni mwiza ari kunanura intoki ze yishimye kandi anezerewe.

Umugabo ufite inyogosho nziza kumutwe kandi imubereye ufite ubwanwa bukeya bwiza kandi usa neza cyane, yambaye agapira keza kandi arishimye ari guseka afite n'amenyo asa neza kandi asukuye.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa buke cyane, afite agapamba mu ntoki, ari kugenda agakoza mu menyo, akuramo imyanda hagati yayo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ga z'umweru ndetse na marinete ari gukura umwana iryinyo akoresheje ibikoresho byabugenewe byo kwa muganga.

Umugabo wambaye ikote ry'ikoboyi n'agapira imbere, afite umusatsi uringaniye ku mutwe ndetse n'ubwanwa buringaniye, ari guseka yishimye n'akanyamuneza kenshi.

Umuhungu ndetse n'umukobwa bambaye imipira y'umweru kandi basa neza cyane, abari ahantu hamwe bireba mu ndorerwamo kandi bafite utudodo bashyize mu menyo.

Umuntu w'umwirabura, wambaye ishati y'amaboko magufi, yicaye wenyine ahantu heza cyane, arimo gukina umukino, akoresheje intoki.

Abaturage bambaye imyenda isa neza kandi isukuye, bari kumwe n'abayobozi bambaye imyenda myiza cyane kandi bahagaze ahantu hasukuye ndetse imbere yabo hari umuturage wahawe igihembo kandi wishimye, bose bari kumukomera amashyi.

Umugore ndetse n'umugabo basa neza cyane, bicaye mu cyumba gisukuye kandi kirimo ibikoresho bitondetse neza, imbere yabo hari imashini, umugore arimo kuyikoresha ndetse n'amafishi arambitse ku meza ndetse n'uducupa turimo ibinini.

Umuntu wambaye agapira k'umuhondo ari guhereza imiti umusaza, wambaye umupira w'umukara, amarinete kandi afite n'imvi ku mutwe, ku meza imbere yabo harambitse ikirahuri cy'amazi, ikayi ndetse n'indi miti.

Umubyeyi usa neza cyane, ufite umusatsi mwinshi urimo imvi, yicaranye n'abana be, barimo kuganira, baseka banezerewe, bishimye kandi imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye birimo amasahani ndetse n'ibindi.

Abantu benshi bicaye ku buryo bw'uruziga munsi y'ibiti birebire kandi bigandaye bifite amatabi meza cyane ateye ubwuzu, bari kuganira ku bintu bitandukanye.

Umuganga usa neza cyane kandi wambaye imyambaro yabugenewe, ari kwita ku murwayi wicaye mu kagare kandi wambaye imyambaro myiza cyane isa neza.

Umukecuru ufite imvi mu mutwe wambaye agakomo mu ntoki ndetse n'imyambaro ya Kinyarwanda izwi mu bwoko bw'imikenyero, isa neza cyane kandi yambaye n'urunigi mu ijosi afite indangururamajwi ari kuganiza imbaga. Ndetse inyuma ye hari inyubako ndetse n'ibiti birebire bigandaye n'amamodoka aparitse mu kibuga.

Umurwayi ufite akabando mu ntoki ndetse n'imisatsi ku mutwe, ari kumwe n'umuganga ufite ubwanwa bwinshi wambaye imyenda y'akazi, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi, kandi bose barishimye bari guseka.

Umusaza wambaye amadarubindi ufite imvi mutwe wambaye n'ishati idafunze neza, ari gusoma agatabo karimo ibishushanyo ndetse n'amagambo afite n'ikaramu y'igiti mu ntoki.

Umugore n'umugabo we bageze mu zabukuru, bicaye muri saro, baganira, baseka ndetse umugabo yambaye amadarubindi, imbere yabo hari ameza ariho ibintu bitandukanye.

Umuganga wambaye imyenda y'umutuku, agapfukamunwa, ndetse n'amadarubindi, ari kwita ku murwayi wambaye ikanzu irimo amabara menshi.

Abantu benshi bagizwe n'ababyeyi ndetse n'abana, bicaye hamwe bareba televiziyo kandi bose barishimye baranezerewe bakeye ku maso.

Umugore ndetse n'umugabo we bicaye ku meza bafata amafunguro ndetse banywa n'amazi kandi barishimye cyane.

Abantu benshi bahuriye hamwe bari mu birori, bamwe muri bo bari kubazanira ibyo kurya n'ibyo kunywa kandi imbere hari umusaza wicaye wambaye ikoti ry'umukara uri kuvugira kuri telefone.

Umuganga ufite ibisuko ku mutwe ari kumwe n'umukecuru wambaye agapira karimo amabara ufite imvi, bombi barishimye kandi baranezerewe.

Umugore munini cyane wambaye imyambaro isa neza cyane ndetse n'amaherena ku gutwi kandi wiyogoshesheje akamaraho umusatsi wose, ari kunywa ikinini akoresheje amazi meza ari mu kirahuri gisa neza cyane.

Abantu benshi bagizwe n'abasaza ndetse n'abakecuru bageze mu za bukuru, bicaye ahantu hamwe bategereje guhabwa serivisi nziza.

Abantu batatu bambaye imyambaro itandukanye kandi basa neza cyane, bari gukina amakarita bishimye, baseka ndetse buri wese aranezerewe. Kandi bicaye mu cyumba gisa neza cyane giteye ubwuzu.

Umuganga usa neza cyane ufite imisatsi myiza ikora mu mugongo, kandi wambaye imyambaro yabugenewe ari gukoresha umukecuru ugeze mu za bukuru imyitozo ngororamubiri kugirango arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufiya, amadarubindi kandi ufite imvi mu mutwe, ari kumwe n'umwana we w'umuhungu, barimo gusoma igitabo bishimye banezerewe, kandi buri wese afite igikombe imbere ye kirimo icyo kunywa.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe ufite umusatsi usa neza cyane kandi mwiza ari kwita ku musaza wambaye amadarubindi akoresheje ibikoresho byabugenewe mu kumupima umuvuduko w'amaraso.

Umusaza ufite umusatsi w'imvi wambaye amadarubindi ndetse wambaye imyenda yababugenewe ari gukora imyitozo ngororamubiri agorora ibice bye byose by'umubiri we.

Umugabo n'umugore basirimutse cyane kandi basa neza, bicaye ku ntebe mu nzu nziza cyane, ikoze neza, ndetse bafite impapuro nyinshi zanditseho ibintu bitandukanye, bari kugenda basoma ibyanditseho.

Umukecuru wicaye ufashe ikirahure mu ntoki cy'amazi, ari guhabwa imiti n'umuganga wambaye imyambaro yabugenewe n'isaha mu kuboko, amwereka uburyo agomba kunywa iyo miti mu buryo butamubangamira.

Umuryango mugari, ugizwe n'umusaza, umukecuru, ababyeyi ndetse n'abana, bicaye ahantu hamwe ku murongo, baganira, baseka kandi bishimye cyane, buri wese afite umunezero, kandi bambaye imyenda ikeye.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, umukandara w'umweru, ndetse n'umupira w'umweru, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe, bari kwitegereza hasi cyane.

Umuntu urwaye ari kwitabwaho n'abantu babiri umugore ndetse n'umugabo, bamuvana ku gitanda bamushyira hasi kandi ageze mu zabukuru afite n'imvi ku mutwe.

Umusaza ugeze mu zabukuru ufite imvi nyinshi mu mutwe ndetse no mu bwanwa, ari gukarabywa umubiri wose hakoreshejwe amazi meza ndetse n'isabune, kandi ayo mazi ari guturuka hejuru akamanuka umubiri wose.

Umuntu ufite imisatsi ku mutwe, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yabugenewe kandi yicaye ahantu hasa neza cyane. Ndetse n'inyuma ye, hari ibiti birebire kandi byiza.

Abantu benshi bagizwe n'ababyeyi ndetse n'urubyiruko bari ahantu hamwe babyina, baseka kandi batera intambwe bigira imbere.

Abantu benshi cyane, bambaye imipira y'umweru hejuru, kandi bafite imisatsi myiza y'umukara, bicaye mu cyumba kinini cyane, bakurikiye amahugurwa ari gutangwa n'umuyobozi uhagaze imbere yabo.

Abantu benshi baturutse impande n'impande bahuriye hamwe bicaye mu cyumba gisa neza cyane gitatse bakurikiye ibiri kuvugwa bateze amatwi ababayoboye.

Abantu bicaye mu cyumba kiza cyane bakurikira inama iyobowe n'umugabo wambaye ikote ryiza cyane ndetse ibyo bari kuvuga, bari kubireba hifashishijwe uburyo bw'amashusho imbere.

Abantu benshi cyane b'abagore, bari ahantu hamwe bishimye banezerewe, baseka, bishimira urwego abagore bagezeho mu bigendanye n'imiyoborere, ndetse no gukora mu myanya y'Ubuyobozi. Kandi hari n'abagabo bakeya bagiye kubibafashamo, barimo no kubafotora.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'akazi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ubwirinzi, bari kuvura umuntu wambaye umwenda w'umukara n'akagofero k'ubururu, inyuma yabo hari abandi bantu benshi bahahagaze babarebera.

Ababyinnyi babyina neza cyane bambaye neza kandi basa neza, bahuriye hamwe muri salle bari gutaramira abantu benshi baturutse impande zitandukanye bafatanya kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya Sida.

Abaganga bambaye imyambaro yabugenewe, kandi basa neza cyane, bari gufata amaraso abarwayi bicaye ku ntebe, bakoresheje ibikoresho byabugenewe, kandi inyuma yabo hahagaze umukorerabushake wambaye ijire, ndetse n'undi muntu wicaye inyuma yabo wambaye ishati y'amaboko magufi.

Abana benshi bambaye imipira isa ndetse n'udupfukamunwa, bicaye mu ntebe bahanze amaso abayobozi, bambaye udupfukamunwa ndetse babahugura ku bijyanye no kwita ku isuku, bafite n'ibikoresho bitandukanye by'isuku kandi hari n'umuntu uri gufotora, akoresheje kamera na we wambaye agapfukamunwa.

Abayobozi bahurije hamwe abaturage baturutse impande n'impande, babigisha akamaro ndetse n'uburyo bwo kwirinda virusi ya mabage, kandi imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'ibikoresho bari kwifashisha.

Icyapa gishushanyijeho umwana, wambaye agapira k'icyatsi, k'amaboko maremare, wambaye n'isaha ku ku boko, ari guseka anezerewe, kandi hejuru ye ndetse no hasi, handitse amagambo atandukanye.

Abantu b'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bambaye imyambaro myiza cyane kandi isa neza, bahagaze ku murongo inyuma yabo handitse amagambo menshi cyane kandi bose icyo bahuriyeho bambaye baji mu ijosi.

Umukobwa ufite ibisuko ku mutwe, wambaye n'amaherena, ari gutanga ikiganiro ku kamaro ko gufata urukingo rwa kovide 19 ndetse no gukora ubushakashatsi, hagenzurwa abafite kovide 19 kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima.

Abayobozi benshi cyane bagizwe n'abagabo ndetse n'abagore bakeye kandi bambaye imyenda isa neza cyane, bicaye imbere y'abaturage benshi bababaza amakuru, mu rwego rwo gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima.

Icyapa kiriho amashusho menshi agaragaza uburyo bwo gufata indyo yuzuye mu rwego rwo kurwanya igwingira mu bana batoya.

Icyapa kinini kiri mu mabara atandukanye gishushanyijeho itara kandi cyanditseho ibimenyetso by'indwara ya diyabete.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye kandi byinshi, kirimo abantu bicaye bateze amatwi ndetse n'umuyobozi uhagaze imbere yabo wambaye imyenda myiza cyane, uri kubahereza ikiganiro yishimye, inyuma ye hari undi muntu wicaye, wibereye mu mirimo ye itandukanye.

Abantu bagizwe n'ababyeyi ndetse n'urubyiruko, bambaye imyambaro myiza cyane isukuye kandi iteye ubwuzu, bahagaze ahantu hamwe ku murongo bishimye baseka, bakirwa n'abandi bantu, kandi inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo kandi kiriho n'ibirango.

Umuntu wambaye ipantaro y'umuhondo n'agapira k'ubururu kavanzemo amabara y'umukara, yambaye agapfukamunwa ari kumwe n'umuganga wambaye taburiya y'umweru, agiye kumutera urukingo rwa Covid cumi n'icyenda kugira ngo bagabanye ubukwirakwire bwayo ndetse n'uburyo bwo kuyirinda kugira ngo idakomeza kwandura mu baturage.

Umuntu usa neza cyane kandi wambaye imyambaro myiza isukuye, ari gutanga ikiganiro akoresheje indangururamajwi, kandi afite agakayi mu ntoki karimo ibitekerezo ari bwifashishe.

Umuntu wambaye agashati k'umweru isaha kukuboko ndetse n'agapfukamunwa ari guterwa urukingo n'umuganga wambaye isaha ku kuboko n'agapfukamunwa kandi inyuma yabo ahagaze umuntu wambaye ishati y'amabara atandukanye kandi nawe yambaye agapfukamunwa.

Abaturage baturutse impande n'impande, bahuriye hamwe kugira ngo bahabwe amahugurwa ku bijyandanye no kubungabunga ubuzima ndetse no gufasha kwigisha abandi baturage muri rusange, uburyo bwo kwita ku buzima no kugira ubuzima buzira umuze.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda myiza cyane kandi isa neza bicaye mu cyumba gisa neza kirimo ibikoresho bitandukanye kandi bose bahanze amaso imbere batuje kandi bateze amatwi.

Abakobwa benshi bambaye udupira tw'umweru, turimo amabara amwe, bahuriye hamwe bishimye, baganira ndetse banifotoza, bafite umunezero mwinshi.

Abaganga babifitiye uburenganzira kandi bambaye imyambaro yabugenewe, bahuriye ahantu hamwe muri gahunda yo gutanga amaraso kandi haje abaturage benshi baturutse impande n'impande, baje muri icyo gikorwa cyo gutanga amaraso, imbere hari umugore umwe uhicaye ufite imisatsi izinze igera mu mugongo bahereyeho uri gutanga amaraso.

Icyumba giteye ubwuzu kandi kigaragara neza, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitwara umuriro, ndetse n'ibindi bifasha mu kurwanya inkongi y'umuriro.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'amadarubindi, yagiye mu rugo rw'abaturage gukorayo ubushakashatsi, binyuze mu kubaza amakuru y'ubuzima bwabo ndetse nuko babayeho, ndetse barishimye cyane, baranezerewe, barimo kumwenyura.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi barembye cyane, baryamye biyoroshe ndetse n'abaganga bipfutse cyane bikomeye, bambaye ibikoresho byose by'ubwirinzi ndetse icyo cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi n'amarido asa neza cyane.

Icyumba gisa neza cyane, gisize amarangi meza ateye ubwuzu, kirimo igitanda gifite ibara ryiza cyane ndetse n'intebe ziteye ubwuzu zisa n'igitanda kandi harimo imeza nziza, iteretseho ibikoresho byifashishwa, harimo mudasobwa ndetse n'ibindi.

Umurwayi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga yambaye agakabutura k'umweru n'agapfukamunwa, arimo serumu zimwongerera amazi mu mubiri kandi afite n'ikibazo cy'umubyibuho ukabije.

Abaturage basa neza cyane kandi bambaye imyambaro isukuye bari mu cyumba cyiza cyane cyo mu biro gisukuye bari kugenda bahabwa serivisi umwe, umwe bitewe n'uko bakurikirana.

Icyumba gisa neza cyane cy'akataraboneka, kirimo amadirishya n'inzugi bidasanzwe, kandi byiza cyane, ndetse imbere harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, kandi bishimishije.

Inyubako yubakanywe ubuhanga, ifite amarembo asa neza cyane kandi meza, ndetse hari umuhanda ujyayo wa kaburimbo, ndetse n'ubusitani buri imbere yayo bwiza cyane, n'imodoka ziparitse hafi y'amarembo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kimwe, bakurikirana amahugurwa ku bintu bitandukanye, bamwe bari gukoresha imashini, abandi bakandika bakoresheje ikaramu ndetse hari na kameramani uri gufata amafoto abantu bari aho ngaho.

Ibitaro bikuru by'akarere ka Nyarugenge, bifite inyubako nziza cyane yubakanywe ubuhanga iteye ubwuzu, ifite ubusitani bwiza imbere yayo kandi ifite n'umuhanda usa neza wamapavein ujyayo.

Abantu batanu harimo abagore bane n'umugabo umwe bahagaze iruhande rwa laboratwari bari guseka bafite akanyamuneza ku maso yabo.

Inyubako ndende igeretse kandi yubakanywe ubuhanga, ifite umuhanda iruhande rwayo w'igitaka abantu banyuramo kandi harimo abagenzi bari gutambuka bagana imbere.

Icyapa kiyobora abagenzi cyubakiye munsi y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye kandi iruhande rw'iyo nyubako hari amashyamba akurura umwuka mwiza duhumeka.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi gifite inyubako nziza cyane n'amarembo magari, asa neza afunguye kandi yubakishijwe amatafari ahiye, kuri icyo kigo nderabuzima hari abantu benshi baje bakigana bashaka serivisi kandi munsi ya cyo hari umuhanda ukomeza ucamo amagare n'ibindi binyabiziga.

Icyumba cyo mu biro, gifite resebusiyo nziza cyane, bakiriramo abaturage n'abandi bantu b'ingeri zose baje babagana, bakabaha ikaze, babereka aho bakomereza, harimo imeza nziza cyane ndetse n'imiryango igana mu biro by'abandi bayobozi.

Icyumba gitatse neza hakoreshejwe imitako y'amabara abiri; umweru ndetse n'ubururu, ku rukuta rwacyo hashushanyije ijisho rinini.

Icyumba cy'ibikwamo imiti gisa neza cyane kandi kirimo utubati twiza dutondetse neza kandi dutondetsemo imiti y'amoko atandukanye bitewe n'ubwoko bwayo.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'indi myambaro yose y'ubwirinzi ari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu gusuzuma abantu baturutse impande n'impande kugira ngo arebe ko nta burwayi bafite.

Icyumba cyo mu biro cyubatswe neza cyane kandi gisize amarange meza akeye, kirimo intebe nziza ziteye ubwuzu ndetse n'imeza zidasanzwe zifite amapine meza cyane.

Inyubako isa neza, iteyemo intebe nyinshi kandi ifite imiryango itandukanye abantu basohokeramo n'amadirishya ari hejuru kandi irimo parafo.

Umuganga usa neza cyane, ufite imisatsi izinze ku mutwe kandi wambaye imyambaro yabugenewe, ari kwita ku murwayi urembye cyane uryamye ku gitanda kandi inyuma ye hari akabati karimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Icyumba gisa neza cyane cyubatswe mu buryo budasanzwe, gifite amadirishya meza cyane kandi kirimo igitanda kiza gisashe neza, kirimo na televiziyo ndetse hanze hari indabo nziza cyane ndetse n'ubusitani buteye amabengeza.

Umuntu wambaye umwenda urimo amabara menshi, ari guterwa urukingo n'umuntu ubifitiye uburenganzira, wambaye n'ikarita ibimwemerera, kandi arimo gukoresha ibikoresho byabugenewe.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge, kigizwe n'amabara atandukanye, ndetse yambaye n'ingofero y'umukara mu mutwe, yicaranye n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, barimo kuganira.

Icyumba gishimishije gisa neza cyane, kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibishushanyo byinshi bishimishije kandi biteye ubwuzu by'amabara atandukanye.

Inyubako zubakanywe ubuhanga kandi zishimishije cyane, inyuma yazo hari indi nyubako ndende nayo itangaje kandi iteye ubwuzu, izo nyubako zose zikikijwe n'amajaride ashimishije.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza bihebuje, kirimo ibitanda bigufiya kandi biteye ubwuzu ariko nta murwayi n'umwe uri muri ibyo bitaro.

Icyumba giteguye neza kirimo ibitanda by'akataraboneka, kandi imbere ya buri gitanda hari agatebe keza kanogeye ijisho, ndetse hari n'utubati dukeye tubikwaho ibindi bikoresho.

Inyubako nziza cyane, kandi nyinshi, zubatse ahantu hamwe, kandi imbere yazo hari umuhanda mwiza, usa neza w'amapave, ndetse n'ubusitani bwiza cyane busa neza, buteye ubwuzu.

Icyumba gisukuye kandi gisa neza cyane, kirimo igikoresho kidasanzwe cyiza giteye amabengeza ndetse n'intebe y'amapine kandi harimo n'akameza gateretseho ibindi bikoresho.

Farumasi y'i Kanombe yubatse neza cyane kandi ifite urugi rwiza cyane rusa neza, ruteye ubwuzu, irimo abantu bari kwaka serivisi zinyuranye bitewe n'ibyo bakeneye.

Abaganga benshi bicaye mu cyumba kibikwamo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bamwe muri bo bicaye baganira abandi muri bo bari kwihuta kugira ngo barengere ubuzima bw'abaturage.

Ibitaro bikuru by'Akarere ka Nyarugenge bifite inyubako ndende iteye ubwuzu kandi ishimishije, hari inzira ijyayo imeze neza kandi imbere yabyo hari ubusitani bw'indabo ziteye ubwuzu.

Inyubako yo kwa muganga ifite imiryango itandukanye, umwe wanditseho rimwe, undi kabiri, undi gatatu kugira ngo byorohereze abarwayi kumenya uko bari buvurwe kandi ahabwe serivisi inoze.

Inyubako nziza cyane yubakanye ubuhanga, ikorerwa mu bushakashatsi ku bigendanye n'ubuzima, ifite umuhanda mwiza wa kaburimbo, ujyayo ndetse n'ubusitani bwiza cyane buteye ubwuzu, burimo indabo nziza cyane buyikikije.

Icyumba gisa neza cyane kandi giteye ubwuzu, kirimo ameza meza cyane ateretseho ibikoresho, ndetse n'utubati tubikwamo ibindi bikoresho, gifite n'amatara ateye ubwuzu kandi by'umwihariko.

Umurwayi wicaye ku gitanda yambaye ingofero y'umukara ari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru kandi anatwite barimo kuganira umuganga amubaza uko amerewe inyuma yabo hari undi murwayi urimo kumva ibyo bavuga.

Inyubako igeretse yubatse neza iruhande rwayo hahagaze imodoka nziza ndetse hari n'abantu bari gutambagira hafi yayo.

Umurwayi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, iruhande rwe hari ibikoresho binyuranye byifashishwa mu buvuzi, mu kwita ku barwayi.

Abaganga bambaye imyambaro yabugenewe bari mu cyumba cy'isuzumiro; umwe ari gusuzuma umurwayi wambaye amadarubindi, undi arikuba umurwayi indwara akandika mu ikayi ndetse inyuma yabo hahagaze undi muganga ufite ikaramu mu ntoki.

Inzu nziza cyane yubakanywe ubuhanga budasanzwe kandi yubakishije amabuye atangaje cyane ifite amadirishya meza kandi hari abantu bari gutambuka imbere yayo.

Umuntu wambaye imyenda y'imyeru, ari mu cyumba gisukuye kandi giteye ubwuzu, kirimo ibikoresho bishimishije, ndetse n'ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye.

Ikigo nderabuzima cya shagasha gifite inyubako nziza iteye amabengeza gisize amarangi kandi gisakaje amabati y'ubururu imiryango yacyo irafunguye kandi imbere yacyo hicaye abantu baje bakigana.

Icyumba cyiza cyane, kandi cyubakanywe ubuhanga, kirimo ibitanda byinshi cyane byiza kandi biri ku murongo, bityo buri gitanda gifite agati karekare kamanikwaho inzitiramibu, kandi harimo n'utubati tubikwamo ibindi bikoresho.

Farumasi nziza cyane ifite inyubako itangaje y'akataraboneka kandi irimo amakaro hasi ndetse n'intebe abakiriya bicaraho, irimo imiti y'amoko atandukanye yifashishwa mu kuvura abarwayi kandi itondetse mu byiciro bitewe n'ubwoko bwa yo.

Inyubako ndende kandi ishimishije imanitseho udushushanyo twanditseho ibintu bitandukanye ndetse n'ibishushanyo binyuranye, imbere yayo hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umweru ndetse iruhande rwe hari indobo y'icyatsi.

Icyumba gisa neza cyane, kirimo intebe nziza zisa neza ndetse n'utumeza turi imbere y'intebe twiza cyane kandi icyo cyumba kirimo amafoto atandukanye y'abantu amanitse ku nkuta.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi, ufite ibisuko ku mutwe, ari kuvura umwana wambaye ishati y'umweru, akoresheje ibikoresho byabugenewe ndetse inyuma ye hari akabati kabikwamo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Ibitaro bikuru bya Shyira bigizwe n'inyubako ndende kandi ziteye ubwuzu, bisa neza cyane ku buryo umuntu wese abireba akabyishimira.

Icyumba cyo muri saro gisa neza cyane, kirimo intebe nziza cyane, imeza nziza n'akabati keza, gateretseho utuntu dutandukanye hejuru n'ibishushanyo byiza cyane.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi, bimwe muri byo biryamyeho abarwayi, ibindi bibereye aho kandi harimo n'utubati babikamo ibikoresho byabo ndetse n'ibyangombwa bifashisha kandi buri gitanda gifite inzitiramibu mu rwego rwo kwirinda malariya.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda n'ameza bikoreshwa n'abarwayi, nta muntu n'umwe ukirimo.

Inzu ababyeyi babyariramo yubatse neza, isize amarange asa neza cyane kandi isakaje amabati y'ubururu ndetse ruguru yayo hari ibiti birebire bitanga umwuka mwiza.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe, amadarubindi ndetse n'isaha mu kuboko, arimo kuvura abagore babiri bicaye ku ntebe, abashyiraho ibipimo byabugenewe, kugira ngo arebe uko ubuzima bwabo buhagaze.

Icyumba kinini cyane gisa neza, gisukuye kandi gituje cyane, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'amateleviziyo yifashishwa ndetse n'ibindi bikoresho binyuranye.

Ibitaro bya Gihundwe bifite inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye ndetse imbere yabyo hari indabo nziza cyane zisa neza ndetse hari n'inzira ijyayo n'amarembo meza cyane binjiriramo kandi byita ku buzima bw'amaso.

Ibitaro bikuru byo kwa Nyirinkwaya, bifite inyubako ndende kandi nziza cyane, ifite n'amarembo abakiriya banyuramo babigana ngo bahabwe serivisi.

Inyubako ebyiri zubatse mu buryo bwamayobera imbere yazo hari jaride nziza cyane kandi inyuma yazo hari indi nyubako yubatswe mu buryo bwa mande enye.

Icyumba gisa neza, kirimo utubati twinshi, tubika ibikoresho bitandukanye ndetse ibintu bibitse muri utwo tubati, bitondetse ku murongo ku buryo bushimishije.

Umurwayi wambaye agapfukamunwa, ingofero mu mutwe ndetse n'imyenda myiza isukuye, aryamye ku gitanda, arimo kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro yabugenewe kandi arimo gukoresha ibikoresho byabugenewe.

Icyapa kinini cyane, kiyobora abagenzi, kibereka aho ibitaro biri, kiri ahantu heza cyane, hari ubusitani buteye ubwuzu, kandi hafi yacyo hari inyubako ndende, kandi zisa neza cyane.

Abaganga bambaye imyambaro yabugenewe, bari kwita ku murwayi urembye cyane bakoresheje ibikoresho byabugenewe, mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga kandi byifashishwa mu kuvura abarwayi barembye cyane.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'amadarubindi, ari kwita ku murwayi wipfutse igitenge mu mutwe, uryamye ku gitanda kandi urembye cyane utabasha no kuvuga.

Icyumba cyo mu biro, gisa neza cyane kandi cyubakanywe ubuhanga, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa by'umwihariko za mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho binyuranye.

Abantu benshi bari ku kigo nderabuzima, baricaye, bategereje guhabwa serivise zitangirwa kwa muganga kugira ngo barusheho kugira amagara mazima.

Icyumba cyiza cyane gisukuye kirimo parafo nziza, amarido meza, ndetse no hasi gikoze neza cyane, kirimo ibikoresho bitandukanye byiza, ndetse n'utubati dushimishije.

Inyubako nziza cyane, irimo parafo isa neza kandi iteye ubwuzu, irimo ibyumba byiza cyane, mu mpande zose, haba ruguru ndetse no hepfo, kandi irimo amakaro abengerana, abonerana, kandi ateye ubwuzu.

Inyubako nziza cyane iteye ubwuzu kandi isa neza, ikikijwe n'ubusitani busa neza cyane kandi bwiza ndetse hari n'umuhanda unyura imbere yayo, ukomeza hino yayo hari izindi nyubako nziza cyane.

Ikigo nderabuzima cya Gisheru gifite inyubako nziza cyane, yubakishije amatafari ahiye, kandi ifite imbuga y'igitaka, imbere y'iki kigo nderabuzima hahagaze abantu batandukanye ndetse n'umuganga wambaye imyambaro yabugenewe.

Inyubako nziza cyane ndende kandi ishimishije, ikorerwamo ubushakashatsi ku bigendanye n'ubuzima, ifite ubusitani bwiza cyane burimo indabo zitoshye kandi zisa neza ndetse hari umuhanda ujyayo mwiza cyane ndetse ni......

Abantu baturutse impande n'impande, bagana ikigo nderabuzima cya Tabagwe kugira ngo bisuzumishe indwara zitandukanye bamenye uko bahagaze mu buryo bw'umubiri, kugira ngo barusheho kumererwa neza no kubaka igihugu bafite ubuzima buzira umuze.

Farumasi nziza cyane ifite inyubako nini cyane kandi ndende, ifite imiryango myiza yose ifunguye kandi irimo imiti itandukanye, yifashishwa kandi ikenerwa mu kuvura abarwayi.

Ibitaro bikuru by'akarere ka Nyarugenge bifite inyubako nziza isa neza cyane kandi yubakanywe ubuhanga buhanitse, imbere yayo hari ubusitani bw'indabo nziza cyane kandi hari n'umuhanda ujyayo nawo umeze neza.

Umubyeyi usa neza cyane kandi wambaye imyambaro myiza isukuye, ari gupimisha umwana we ku munzani kugirango amenye ibiro bye kandi imbere n'inyuma ye akikijwe n'ababyeyi bicaye na bo bafite abana bategereje gukingiza.

Icyumba cyiza cyane kirimo ibitanda bimeze neza, bifite utubara tw'ubururu ku ruhande kandi bifite n'amapine biri ahantu heza hasukuye ndetse hari n'amarido meza cyane y'umuhondo agaragara neza.

Ibitaro bisa neza cyane, bifite inyubako yubakanywe ubuhanga kandi itangaje, isize amarange meza cyane, bifite amarembo meza cyane atangaje, abaza babigana banyuramo.

Farumasi y'i Remera ifite inyubako ndende kandi nziza cyane, iruhande rwayo hari imodoka ihaparitse iteye amabengeza ndetse ku miryango y'ayo hari indabo nziza cyane zinezeza abaza bakigana.

Umuntu usa neza cyane, wambaye imyenda myiza n'agapfukamunwa, yicaye mu biro, ari gukoresha imashini kandi harimo n'ibindi bikoresho byiza cyane kandi bisa neza byifashishwa mu kazi.

farumasi yubatse neza kandi yubakaywe ubuhanga, iri ahantu hari ibiti bikurura umwuka mwiza kandi heza cyane ndetse ku muryango wayo hahagaze abantu bari kuyivamo ndetse n'umumotari wicaye kuriyo.

Icyumba cyiza kandi cyubatswe mu buryo butangaje kirafunguye, mo imbere harimo ibikoresho bikoranywe ubuhanga kandi hanze yacyo hari ubusitani bwiza ndetse n'ibiti birebire bikurura umwuka mwiza muri ako gace.

Icyumba cyo mu biro kirimo intebe nziza ndetse hejuru harimo amatara, kandi gifite isuku ihagije.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ahagaze mu bitaro, ari gukoresha ibikoresho byo kwa muganga areba ko nta cyangiritse.

Umubyeyi wambaye ishanete mu ijosi n'agashati k'umweru ateruye umwana ndetse ari kumwe n'umuganga wambaye amarinete kandi afite n'ibisuko ku mutwe.

Icyumba gisa neza cyane kandi giteye ubwuzu kirimo igitanda gisashe neza kandi iruhande rwacyo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bihari, bikoreshwa.

Igitanda cyo kwa muganga kirambitseho ibikoresho byifashishwa mu buvuzi nta muntu ukiryamyeho, iruhande rwacyo hari akabati kabikwamo imiti n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kubungabunga ubuzima bw'abaturage.

Inyubako ndende yubakanywe ubuhanga n'ubushishozi, ifite amadirishya menshi kandi atangaje ndetse imbere yayo hari indabo nziza zishimishije.

iragwa farumasi irimo umubyeyi uhetse umwana wipfutse igitenge ari kumwe n'abandi bakobwa babiri ndetse n'akana gatoya harimo n'umucuruzi ukora muri iyo farumasi igurisha imiti.

Icyumba cyicayemo abaganga bambaye impuzankano y'akazi, kandi bose bafite umunezero, bakeye ku maso ndetse icyo cyumba kirimo n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Abantu benshi cyane batonze umurongo bagira ngo bahabwe serivisi, ndetse imbere yabo hari intebe zihatondetse zidafite umuntu uzicayeho, ndetse n'umuntu umwe ufite ubumuga wicaye imbere y'Abayobozi bari gutanga serivisi.

Icyumba gisukuye giteye ubwuzu kandi kibereye ijisho kirimo intebe z'amoko atandukanye zimwe zifite amapine azenguruka ndetse hagati muri icyo cyumba harimo utwatsi dutoshye.

Abaganga bane bambaye impuzankano y'akazi ingofero mu mutwe ndetse n'ubupfukamunwa bahagaze mu cyumba kibamo ibikoresho byo kwa muganga bagenzura isuku yabyo kandi babyitaho.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere gifite inyubako nziza isa neza, yubakishije amatafari ahiye ndetse n'ubusitani bw'indabo nziza cyane, kandi gifite umuhanda w'igitaka ujya yo.

Ikigo nderabuzima cya Kigina gifite inyubako ikeye n'amarembo asa neza cyane, kandi afunguye ndetse gifite umuhanda werekezayo w'igitaka, kandi usukuye, hari n'umubyeyi uhetse umwana uhagaze hafi yacyo ku muhanda.

Urwicundo rwiza rusize amarangi y'ubururu ndetse n'icyatsi, rwubatse ahantu heza cyane hateye pasiparume zifite isuku kandi hanakorotiye.

Inyubako ikorerwamo ubushakashatsi yubakanywe ubuhanga, kandi inzugi zayo ndetse n'amadirisha n'ibirahure, ateye ubwuzu, kandi harimo n'ibikoresho byabugenewe.

Ubusitani bwiza cyane bufite indabo nziza ndetse n'ibiti biteyemo birebire, byiza cyane, hepfo yabwo hari ibiti birebire, bigandaye ndetse n'inyubako nyinshi cyane kandi zisa neza.

Inyubako yo kwa muganga, nziza cyane isa neza kandi yubakanye ubuhanga, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi ndetse n'abaganga bambaye imyenda itandukanye y'akazi, banyuranyuranamo bagana mu mirimo yabo itandukanye.

Umugabo wicaye ku maesikariye wambaye ipantaro y'umukara inkweto z'umukara zirimo utubara tw'umweru n'ubururu afite terefone mu ntoki zirimo ekuteri ndetse yambaye agapira k'ubururu n'akandi gasharupe afite mu izosi ari kunywa amazi.

Umuntu ufite ibisuko ku mutwe, wambaye isaha ku kuboko ndetse na ekuteri mu matwi, yambaye agasengeri arimo gukora siporo.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'isaha mu kuboko, ari kwita ku murwayi wambaye agakabutura gatoya ndetse n'umupira utukura, amugorora ukuguru.

Abantu benshi cyane, bari mu kabyiniro, buri wese akora ibyo ashaka ndetse hari n'undi muntu umwe wambaye imyambaro yabugenewe, urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ahantu.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi, ari kuvura umurwayi wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'amaboko maremare uryamye ku gitanda, amugorora ukuguru.

Umugabo n'umugore bambaye imyambaro myiza cyane yabugenewe, bari gukora imyitozo ngororamubiri, bose bafite amacupa arimo amazi asa neza cyane, kandi hakurya yabo hari imisozi miremire.

Ibiganza bibiri biteruye igikoresho kiriho ibyo kurya bitandukanye, bigizwe n'imbuto ndetse n'imboga n'ibindi ndetse ku ruhande hari ibindi bikoresho binyuranye bihari, hamwe n'inkweto ziharambitse.

Abana bari gukina umupira w'amaboko imbere yabo ndetse n'iyuma yabo impande zose hahagaze abantu banejejwe kandi bashimishijwe n'uwo mukino.

Umugabo w'ibigango wambaye imyenda yabugenewe ndetse n'inkweto, ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kwiruka ndetse iruhande rwe hari umuntu uhicaye urikureberera ibyo arimo gukora.

Muganga wambaye imyenda y'akazi ndetse n'agapfukamunwa, iruhande rwe hahagaze abantu babiri, bambaye udupfukamunwa ari kwita ku mwana ufite ikibazo cyo mu kanwa.

Umuntu usa neza ufite imisatsi myiza igera mu mugongo kandi wambaye imyambaro yabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri agorora ibice byose bigize umubiri we yicaye hasi arambirije.

Ikirahuri cy'umweru, gisa neza, kandi giteye ubwuzu, kiri kujyamo amazi aturutse mu icupa rya parasitike kandi risa ubururu, ayo mazi ni meza cyane kandi anogeye ijisho.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe, ari kwita ku murwayi amuvura ivi, akoresheje ibiganza bye byombi mu kumwitaho, ndetse no kubungabunga ubuzima bwe.

Umuntu wambaye agasengeri k'umukara ndetse na kora y'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri, agorora ibice by'umubiri we, by'umwihariko umugongo ndetse n'amaguru. Aryamye hasi.

Umuntu ufite ubumuga bw'ukuguru, yicaye mu ntebe ndetse ari kwitabwaho n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru kandi icyumba barimo gisa neza kirimo n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Umuntu ufite ubwanwa burebure n'imisatsi ku mutwe iziritse, yambaye imyenda yabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri ananura umubiri we wose, by'umwihariko amaboko.

Umugabo w'umunyacyubahiro, wambaye ishati y'amaboko maremare, yicaye mu biro birimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'intebe nziza cyane, arimo kwitegereza mu mumashini.

Umuntu wambaye agakabutura kagufiya k'umukara, ufite ubwoya bwinshi ku maguru, aricaye kandi afite akantu gafunze neza mu isashi, imbere gasa ubururu.

Umuntu w'umwirabura wambaye inkweto nziza cyane ndetse n'isaha mu kuboko, ari gukora imyitozo ngororamubiri agorora ibice bitandukanye by'umubiri we kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umuntu wambaye isengeri ufite imisatsi miremire igera mu mugongo, ari kunywa amazi akoresheje icupa ryiza cyane kandi ahantu ahagaze hari ikirere cyiza gikeye kiri kuvaho akazuba.

Umuntu w'umwirabura wambaye imyambaro yabugenewe kandi wicaye ahantu hasa neza cyane, ari gukora imyitozo ngororamubiri agorora ibice bigize umubiri we, imbere ye hateretse mudasobwa kandi hari n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Udukarito tw'umutuku tubamo ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze duteretse hasi, inyuma yatwo hicaye abantu batatu.

Umuntu umwe ufite umusatsi w'umukara usa neza cyane kandi wambaye imyambaro yabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri agorora ibice bye byose by'umubiri.

Umubikira wipfutse igitambaro cy'umweru wambaye na furari mu ijosi ari kumwe n'umuzungu, bita ku bana batishoboye babaha ibikoresho bigiye bitandukanye byo kubafasha mu mibereho ndetse n'ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu babiri, umwe w'umuzungu ndetse n'umwirabura bahagaze ahantu hamwe, umuzungu yambaye ikoti ry'amaboko maremare, umwirabura yambaye umupira w'amaboko magufi ndetse bari guhererekanya ibintu bitandukanye.

Umugabo w'ibigango wambaye isengeri y'icyatsi, ari kunywa amazi akoresheje agakombe gafite ibara ry'umukara.

Umuganga wambaye imyenda y'ubururu bwijimye ndetse na ga mu ntoki, ari kwita ku murwayi, wambaye agakabutura kagufi ndetse n'isengeri y'umweru.

Amacupa menshi y'umweru ateretse ahantu hamwe kandi yose yanditseho amagambo ndetse n' imbere yayo handitse andi magambo.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe, ari kwita ku mwana mutoya akoresheje ibikoresho byabugenewe mu kumuvura kandi ku meza hari ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba kirimo abaganga babiri n'umurwayi uryamye ku gitanda bari kumwe n'abandi bantu benshi cyane, bari ku kumurongo kandi bafite agahinda gakabije, bababaye cyane, bafite ibibazo.

Abantu babiri bari ahantu hamwe, umwe yambaye imyenda y'ubururu isa hejuru no hasi, undi yambaye agapira k'umukara afite n'umugozi muremure w'umuhondo mu ntoki.

Umugabo w'umwirabura wambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'inkweto zifunze, ari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo gukorera ahantu heza cyane kandi hari ibikoresho bitandukanye, bimufasha kunoza imyitozo ye.

Umusore mwiza w'ibigango wambaye isengeri ari kunywa amazi akoresheje igurude isa neza cyane ifite ibara ry'ubururu n'umufuniko w'umukara.

Umugabo w'inzobe wambaye agakabutura k'umukara n'agakomo mu kuboko ari gukora siporo mu cyumba gisa neza kandi kirimo ibikoresho bihagije.

Umuganga w'umwirabura usa neza cyane kandi wambaye imyambaro yabugenewe, arimo kuvura umwana mutoya akoresheje igikoresho cyabugenewe kandi imbere ye hari ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa.

Umukobwa usa neza cyane w’umwirabura wambaye imyambaro myiza isukuye kandi ufite imisatsi myiza ikora mu bitugu, ari kunywa amazi akoresheje icupa ryiza cyane ry’umweru risa neza.

Igishushanyo kirekire, gishushanyijeho abantu batandukanye bari gukora siporo, bamwe bakora siporo zo gukina umupira w'amaguru, abandi bakina uw'amaboko, abandi banywa amazi.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe, ari kwita ku murwayi uryamye, wambaye umupira w'umweru ndetse n'inkweto zifunze amugorora ukuguru.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara n'agakabutura k'umukara, inkweto zirimo ubururu n'umweru n'amagisi y'umweru, yambaye n'isaha ku kuboko, ari gukora siporo ahantu hafunganye.

Abantu bane bambaye imipira y'amaboko maremare, bari gukora siporo yo kwiruka kandi bose bari kugendera ku muvuduko ujya kungana, kuko bose nta wasizeho undi intambwe nyinshi.

Icyumba gisa neza cyane, kirimo ibikoresho byinshi cyane, binyuranye by'ikoranabuhanga, ndetse n'ibindi bikoresho biteretse hagati, hari umugabo uhagaze hagati muri byo, ushinzwe kubigenzura, wambaye imyambaro yabugenewe.

Ibishushanyo byinshi bigaragaza ubwonko bw'abantu ndetse n'ibice by'umutima, n'impyiko biri ahantu hamwe biramanitse.

Umuntu wambaye imyenda isa neza kandi witeye igitambaro cy'umweru mu ijosi, gisa neza cyane, ari kunywa amazi akoresheje icupa ry'umweru ryiza kandi rifite agafuniko k'ubururu.

Umuntu wambaye agapira k'amaboko magufiya k'umweru, keza cyane, ndetse n'isaku kuboko kandi wambaye na ekuteri mu matwi, ari kunywa amazi akoresheje icupa.

Ambilance itwara abarwayi b'indembe igiye gukata ikoni mu muhanda wa kaburimbo, hejuru y'umuhanda hateye ibiti by'amoko atandukanye birebire kandi bitoshye bikurura umwuka mwiza.

Icyapa kinini kiriho ibishushanyo bigaragaza abantu bari gukora siporo, mu rwego rwo gushishikariza abantu gukora siporo zitandukanye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza n'imibereho izira amakemwa.

Umugabo w'ibigango wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse n'udukoma mu ntoki, ari guterura ibyuma biremereye cyane.

Umuntu wambaye isengeri y'umukara ifite akabara mu mpande, ari gukora imyitozo ngororamubiri, agorora ibice bigize umubiri we by'umwihariko amaboko ndetse n'umugongo.

Umuntu munini wambaye imyenda y'amabara y'umutuku, ari muri siporo ananura amaguru ndetse n'amaboko kandi ari wenyine.

Abantu benshi cyane bagizwe n'ababyeyi, abana, n'urubyiruko bahuriye hamwe bakora siporo kugira ngo bagorore ingingo zabo ndetse bagire ubuzima buzira umuze mu mibereho yabo ya buri munsi.

Umuntu wambaye imyenda y'imikara ndetse n'inkweto z'umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri agorora ibice bye byose by'umubiri we kandi ari gukora iyo myitozo yicaye.

Imbuto nyinshi ndetse n'imboga z'amoko atandukanye zirunze ku meza ahantu hamwe, ndetse imbere yazo hari utwuma tw'amoko atandukanye twifashishwa mu kuzitunganya.

Umurwayi urembye cyane kandi uryamye yubamye, arimo kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'ibindi bikoresho by'ubwirinzi, ari kumwitaho akoresheje ibikoresho byabugenewe ndetse n'ibyuma by'ikoranabuhanga, bimufasha kumenya uko umurwayi ameze.

Umuntu wambaye imyambaro yabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri agorora amaboko, yicaye hasi mu cyumba gisa neza cyane kandi imbere ye hari ibindi bikoresho byifashishwa ndetse n'icupa ry'amazi hamwe n'imashini.

Umugabo usa neza cyane, wambaye imyambaro yabugenewe, amaze gukora imyitozo ngororamubiri, none ari kunywa amazi, akoresheje icupa ryiza cyane risa neza, kandi afite n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, yifashishaga yumva umuziki.

Umuryango ushinzwe gutabara abarwayi witwa Croix Rouge ugizwe n'abantu benshi b'urubyiruko ndetse bambaye imyambaro yabugenewe, bazanye umurwayi urwaye, ari kwitabwaho n'umuntu wambaye ijire itukura.

Abantu benshi bari gukora siporo, harimo abakobwa, abagabo, ndetse n'abasore, bahuriye hamwe kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri, bityo barusheho kumererwa neza.

Ikiganza gifashe icupa ryiza cyane ry'umweru risa neza, hari irimo amazi meza y'urubogobogo kandi iryo cupa rifunikishije umufuniko w'ubururu usa neza.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ikabutura y'umukara ari kumasa umugabo uryamye ku gitanda wambaye agakabutura k'umukara gatoya n'inkweto zifunze.

Umugabo wibigango wambaye imyambaro yabugenewe, ekuteri mu matwi ndetse n'inkweto zifunze, ari gukora imyitozo ngororamubiri, agorora ibice bye byose by'umubiri.

Icyumba gisa neza cyane kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bikoresho bikoranywe ubuhanga kandi bisa neza cyane kandi harimo n'intebe nziza zifite amapine.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu, yambaye isengeri irimo amabara atandukanye harimo ubururu, icyatsi n'umweru ndetse afite n'isharupe mu ijosi y'umweru, yambaye na shanete ari kunywa amazi mu icupa rifite amabara agizwe n'umweru n'ubururu.

Abantu benshi bari gukora siporo zigiye zitandukanye bashushanyije ahantu hamwe, bamwe bari gukora siporo zo kugurora amaboko abandi izo kugorora amaguru abandi bakina umupira w'amaguru.

Umugabo w'ibigango wambaye agakomo k'icyatsi, agasengeri k'umukara, ufite n'ubwanwa, aricaye arimo kunywa amazi, akoresheje icupa.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga mu kubungabunga ubuzima bw'abantu, birafunze neza, kandi birakeye, birambitse ahantu heza cyane, kandi hafite isuku.

Umuntu wambaye imyenda yabugenewe ndetse n'inkweto hamwe n'isaha ku kuboko ari gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari undi muntu wambaye imyenda y'imikara uri kugenda amureberera.

Umuntu w'umwirabura ari kunywa amazi akoresheje icupa rirerire ryiza cyane, rifite ibara ry'ubururu ndetse umufuniko waryo nawo ufite ibara ry'umukara.

Umwe mu bakinnyi bakina umupira w'amaguru wambaye imyambaro yabugenewe avunikiye mu kibuga none arimo kwitabwaho na mugenzi we, inyuma y'ikibuga hahagaze abantu benshi bambaye imyambaro myiza cyane bari barimo gufana.

Umuntu wambaye imyambaro yabugenewe ndetse n'inkweto zifunze ari gukora imyitozo ngororamubiri ku kibuga gisa neza cyane ndetse imbere ye hahagaze undi muntu wambaye ipantaro nziza yumukara, ndetse n'inkweto z'umukara n'agapira k'ubururu.

Umugabo wicaye mu ntebe, wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu ari kwitabwaho n'umuganga, amugorora ukuboko nka kimwe mu bice bigize umubiri w'umuntu.

Ibiganza bine biziritseho bande kimwe kiriho imibare, kuva kuri imwe kugera kuri kane, ikindi kiriho kuva kuri gatanu kugera ku munani, ikindi kiriho icyenda, ikindi kiriho icumi na cumi na rimwe.

Umuntu w'umwirabura wambaye agasengeri gato gaciyeho amaboko kandi witeye igitambaro ku rutugu usa neza cyane, ari kunywa amazi akoresheje icupa ryiza cyane.

Abakobwa babiri bambaye imyenda itandukanye n'inkweto zitandukanye, bari gukora siporo zinyuranye, umwe akora siporo zo kwicara, undi agakora siporo zo guhaguruka.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'insengeri y'umukara, ari kunywa amazi yicaye ku ntebe ndetse afite igikapu cy'umukara giteretse amaguru ye, iruhande rwe hahagaze umugore uri kunanura ingingo ze z'umubiri, hasi ye hateretse igikapu cy'umukara.

Ikimera cy'umuravumba kizwiho kuvura indwara nyinshi zitandukanye, gifite amababi atoshye meza cyane kandi gihinze hamwe n'izindi ndabo nziza kandi nyinshi, zisa neza kandi zitoshye.

Ibimera by'amoko atandukanye biteye ahantu hamwe bimwe muri byo bifite amababi atoshye kandi anogeye ijisho ndetse bikurivaho akazuba kagenda gacengeramo hagati.

Igihingwa cy'ikawa, gihinze mu murima mwiza kandi amababi yacyo aratoshye, kirasasiye neza hakoreshejwe isasiro ryabugenewe kandi giteye ubwuzu.

Ikirago gisashe hasi, kiriho ibyo kurya bitandukanye, kandi iruhande rwacyo hateretse inkono zifashishwa mu guteka mu buryo bwa kinyarwanda.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'icyatsi gafite ikora ry'umuhondo, ahagaze ahantu heza cyane, afite ibyatsi mu ntoki bivamo imiti gakondo.

Imbuto z'amaronji hamwe n'indimu zirambitse ku meza. Ni imbuto nziza cyane zivamo umutobe mwiza kandi zigira uruhare runini mu kubaka umubiri wa muntu, ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Amacupa ashushanyijeho igikakarubamba, ateretse ahantu hamwe, iruhande rwayo hari akandi gacupa kanditseho shampo.

Imeza iteretseho agakombe k'ikirahure karimo ibimera bikorwamo imiti ya kinyarwanda n'utuyiko tubiri turiho imiti iva mu bimera.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti by'amoko atandukanye, muri byo harimo bimwe birebire cyane ndetse ibindi biri mu rugero, harimo n'ibigufiya birandaranda hasi.

Amavuta ya Aloe Vera Gel, akorwa mu gikakarubamba, ateretse ku meza ari mu ducupa dutandukanye, kamwe k'umukara, akandi k'umuhondo, akandi ka oranje, n'akandi k'umutuku mu mabara atandukanye.

Icupa ryiza cyane, yaririfunze neza hakoreshejwe umufuniko w'icyatsi, ririmo ifu ikorwa mu muravumba ikenerwa mu kuvura indwara zitandukanye kandi ririho icyapa cyanditseho amagambo menshi.

Tangawizi nyinshi kandi nini cyane zibyibushye, zirunze ahantu hamwe ku meza ndetse imwe muri zo ikataguyemo uduce dutoya dutandukanye.

Umurima uhinzemo ibiti birebire ndetse n'ibindi bigufi bifite amababi y'icyatsi kibisi kandi atoshye, munsi yabyo hari utwatsi dutoya turandaranda.

Imineke, inanasi, indabo n'ibindi bintu bifunze mu dukarito, biteretse ku meza ndetse hari n'igikombe gipfundikishije umufuniko w'umukara.

Ibyatsi by'amoko atandukanye biri mu mirima inyuranye, bimwe bivamo imiti ivura abantu, ibindi bikeraho imbuto ziribwa, bifasha abantu kubaho neza bagira ubuzima bwiza binyuze muri izo mbuto ndetse n'imiti gakondo.

Amavuta akorwa mu gikakarubamba ari mu macupa atandukanye, ateretse ahantu hamwe mu gihe atarakoreshwa.

Uruganda rutunganya ibinyobwa rurimo ibyo kunywa byinshi cyane ndetse hari abantu bashinzwe gukora muri ibyo binyobwa, hamwe n'abakiriya baje abikeneye.

Amacupa menshi y'amoko anyuranye, arimo inzoga zitandukanye, arambitse ku meza, atondekanye kandi buri cupa ririho icyapa cyanditseho amagambo.

Ameza manini cyane abajwe mu giti, arambuyeho agasume gateretseho isahani iriho imbuto zisa neza cyane, ziri gukamurwamo umutobe ndetse izindi zakataguwemo uduce dutoduto.

Ibimera by'amoko atandukanye bihinze mu mirima bimwe bivamo imbuto ziribwa ibindi bikavamo imiti yifashishwa mu kuvura abarwayi.

Icyapa kirekire gishushanyijeho uducupa ducuritse ndetse hejuru yatwo handitseho amagambo kandi inyuma y'utwo ducupa hateretse ivaze irimo igikakarubamba.

Ibimera byinshi by'amoko atandukanye bikorwamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bwa kinyarwanda biteye ahantu hatandukanye kandi byose bihanye umwanya nta na kimwe kibangamiye ikindi kandi byose biratoshye bisa neza.

Isahani y'umweru ndetse n'agakombe birambitseho imbuto z'amaronji, ziri gukamurwamo umutobe, iruhande rwayo hari tangawizi zirambitse.

Ikimera gitoshye cyane gifite amababi abyibushye kandi asa neza, kifashishwa mu kuvura zimwe mu ndwara nk'ibicurane ndetse n'inkorora giteye mu murima.

Amacupa atatu afite imifuniko isa, yanditseho amagambo atandukanye, ndetse iruhande rwayo hateretse ikijage kinini gifite umukondo.

Icyapa kinini kiriho ibishushanyo bitandukanye, ndetse iruhande rwacyo hashushanyije umuntu uri kubabara, wambaye ikanzu y'umukara ifite amaboko maremare, n'ibisuko ku mutwe.

Ibimera by'imiravumba, bikorwamo imiti gakondo ivura abantu, bihinze ahantu hamwe, bisa neza cyane kandi bifite amababi atoshye, inyuma yabyo hari ishyamba rigizwe n'ibiti birebire kandi bisa neza.

Umuganga wicaye mu cyumba cyo mu bitaro, wambaye itaburiya y'umweru, yicaye ku ntebe, imbere ye hari uducupa dufatirwamo ibizamini, ari kureba ibisubizo byavuye mu bipimo yafashe.

Igiti kirekire gifite amatabi afite amababi atoshye, inyuma yacyo hari ibindi byatsi bitohagiye kandi bisa neza cyane.

Ibimera by'amoko atandukanye biri mu murima, harimo ibirebire bifite amababi atoshye ndetse hakabamo n'ibindi bigufiya birandaranda munsi y'ibirebire, bifite utubabi dutoya.

Igiti kirekire cyane giteye mu ishyamba rwagati, iruhande rwacyo hari ibindi biti bigufiya ndetse n'ibyatsi bigufiya kandi bidatoshye.

Abantu benshi bahagaze mu kibaya kinini cyane, kirimo ibimera biteye ku murongo ndetse imbere yabo hari imashini yicayemo umuntu uri kuyikoresha.

Umugabo munini wambaye umupira w'umweru, uriho utubara tw'umukara ku mpande ndetse no ku ikora ahagaze mu ishyamba rinini cyane rigizwe n'ibiti by'amoko atandukanye, arimo kuryitegereza ndetse afata no ku matabi y'ibiti.

Agakarito karinganiye gafunze neza kanditseho amagambo atandukanye hakoreshejwe amabara anyuranye, harimo umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku.

Ibimera by'amoko atandukanye bihinze mu mirima inyuranye. Bimwe bikoreshwa mukuvanwamo imiti yifashishwa mu kuvura abantu, Ibindi bivamo indabo, kandi ibindi bivamo imbuto ziribwa.

Imiti gakondo myinshi cyane kandi y'amoko atandukanye itondetse ahantu hamwe, mu nzu nziza cyane isa neza ndetse imbere yayo hari umuntu ufite ubwanwa bwinshi, wambaye akagofero gatoya mu mutwe.

Ibyatsi bizwi mu bwoko bw'amatovu, biri mu ishyamba rinini cyane ndetse uruhande rumwe ruragaragaza amatovu akiri matoya, afite utubabi dutoya, urundi ruhande rukagaragaza amatovu yakuze ndetse yazanye n'indabo.

Umugore ndetse n'umugabo bambaye imyenda isa neza kandi bishimye bafite akanyamuneza ku maso, bahagaze mu ishyamba rinini ririmo ibiti birebire cyane kandi bifite amatabi maremare asa neza bishimye kandi bavuga.

Igiti cy'umweyo gitoshye kandi giteye ubwuzu, giteye ahantu ho mu tubuye, hakeye kandi hameze neza.

Umuganga wambaye itaburiya ndetse n'agapfukamunwa ari kureba mu dukarito tubikwamo imiti, kandi imbere ye harunze utundi dukarito twinshi cyane ndetse n'uducupa dupfundikiye neza.

Icupa ry'umweru rifite umufuniko w'umweru iruhande rwaryo hari ibinini biharunze ndetse kuri iryo cupa handitseho amagambo atandukanye n'iruhande rwaryo handitseho andi magambo.

Umurima uhinzemo ibikakarubamba byinshi bitoshye kandi bimeze neza byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ndetse no gukuza imisatsi.

Amababi y'ikibonobono ari mu murima ndetse iruhande rwayo hari impombo zitwara amazi ziyavana mu gace kamwe ziyajyana mu kandi.

Uducupa dutandatu twanditseho Aloe Vera, turi ahantu hamwe twose, dupfundikishije imifuniko y'umweru ndetse dufite n'amabara y'icyatsi yanditseho andi magambo iruhande rw'imifuniko.

Icyumba kiririmo inzoga zipfundikiye z'amoko yose harimo umugabo uri kubaza ibiciro ndetse n'umugore uri gukoramo wipfutse agatambaro k'umweru wambaye na baje y'ubururu.